Igitaramo cyo kwizihirwa no kwishimisha, cyabereye ahantu hateguwe habugenewe neza, harimo ibikoresho byose bikenewe kugira ngo abahari bahataramiye, bizihirwe nkuko babyifuza

Ahantu hateguwe neza cane mu buryo budasanzwe bwa kizungu abakozi nabo ubona ko badasanzwe ari abanyamahanga b'abazungu ubona ko ahantu harimbye cane kandi koko ko hateye ubwuzu hasukuye hateguye neza cane.

Bare ni ahantu abantu bahurira bakanywa bakanezerwa byaba ngombwa bakabyina nyuma y'uko bamaze gufata icyo kunywa kandi bizihiwe, bakaba bashobora kubyina cyangwa se kwidagadura mu buryo butandukanye no gufata icyo kunywa.

Amafunguro ateguye neza. Hari n'imbuto zateguwe zo kuribwa. Harimwo avoka, inyanya amashu, salade isanzwe urusenda imbuto zateguwe neza ubona ko zizihiye amaso, yiteguwe gufungurwa

Bare she Folola ahantu ushobora kubonera icyo kunywa cyangwa se n'icyo kurya cyihuse. Akaburusheti cyangwa se ikirayi ndetse n'igitoki bitewe n'icyo wifuza. Ni ahantu ushobora kwicira inyota ndetse nyiraho hakaba habasha kumuteza imbere.

Amafi akawushije ateguwe neza ,ku buryo uyarya abona ko ateguwe neza mu buryo bunejeje kandi butangaje, ifunguro rwose riryoheye amaso riteye apeti mu buryo bwose.

Aha bacuruza ibikoresho bisimbura ibindi ku magare n'amapikipiki, n'ibikoresho bitandukanye bishobora kuba byakwifashishwa mu gusimbura ibindi byangiritse.

Ibyuma by'amagare ndetse n'amapikipiki, bikoreshwa mu gusimbura ibyaba byarangiritse ku mapikipiki, ndetse n'amagare bikoze, ibi bikaba ari piyesedereshanje zishobora gufasha kuri iyo serivisi.

Ahacururizwa ibintu bitandukanye， hari n'aba ejenti bakorana na emutiyene batanga amanite，bakohereza amafaranga abaturage batandukanye，harimo no kubitsa ku ikoranabuhanga ry'ikigo ca emutiyeni Rwanda.

Ubucuruzi, bw'ibikoresho by'ubwubatsi; harimo amakaro, ibirahure n'ibindi bitandukanye, bicururizwa ahangaha bijyanye n'ubwubatsi.

Amazu meza y'ubucuruzi acyeye kandi ari ku muhanda, aho ubona ko ari ahantu hakeye cyane hacuruzwa ibintu bitandukanye, haba abajenti ba MTN hacururizwa ibyo kurya harimo umuceri, hacuruzwa ibikoresho bitandukanye bya plastike, ibikinisho by'abana amabase n'ibindi.

Hacururizwaga ibikoresho bya piyese doreshanje， hakaba hari ibikoresho byinshi bitandukanye, aho bashaka kugufasha mu gutunganya ibinyabiziga ndetse n'amavuta akoreshwa ku bikoresho by'ikoranabuhanga biri eregitoronike，mekanike.

Abacuruzi barimo barakora imizigo， ipakururwa n'abakarani bayijyana mu bubiko bwayo， aho imizigo yitegura kugurishwa，ikagomba kuba ari amakaro， cyangwa n'ibindi bicuruzwa bitandukanye， ibikoresho by'ubwubatsi.

Ubucuruzi bw'ibiribwa ibirayi, ibyo gutekesha nk'amakara, imboga, ibitunguru, inyanya, igitoki ibyo ni ibicururizwa muri iyi santere iri aha ngaha nkuko bigaragara, abantu bashobora kuhacururiza abandi bakaza guhaha nkuko ishusho ibyerekana.

Itumanaho ryateje imbere abaturage, ndetse telefone buri muturarwanda wese aba ayifite ku buryo ashobora kuvugana n'uri hafi cangwa se uri kure ye, bitabaye ngombwa ko ava aho ari. Amatelefone rero aya ngaya arifashishwa cane muri ico gikorwa.

Iduka ry'ubwiza aho batanga iyi poroduwi cyangwa se ibikoresho abantu bifashisha bakora makiyaje bahindura umubiri, bisukura ku mubiri, bikuraho ibyo badakeneye hirya yaho hari aho bacuruza ibikoresho byo mu gikoni.

Ahacururizwa ibintu binyuranye bikenerwa mu rugo, nkenerwa mu rugo ndetse hakaba hari n'indangururamajwi ishobora kuba iri kwizihiza abakiriye, abakiriye baza kugura, guteza imbere ubucuruzi ndetse no kwizihiza bateme.

Ubucuruzi butandukanye muri butike hacururizwa :umuceri, kawunga, amavuta n'ibindi hakurya hacuruzwa: amakara imyeyo, imbabura amajerekani ,haparitse imodoka ishobora kuba ari iy'umukiriya ,cyangwa se umucuruzi umwe muri aba bacuruzi bize.

Ubucuruzi bw'imyenda nibiryamirwa imyambaro y'abana, y'abagore, irimo ahangaha hari abaguzi, ndetse n'abacuruzi .Abaguzi bibanze hamwe icyarimwe, birashoboka ko'umucuruzi umwe abakiriye neza, cyangwa se bakaba bari kugurira hamwe, ariko ni byiza ko n'abandi berekeza ahandi sigombwa ko baba ku mucu.

Ubucuruzi butandukanye. Hari ibikoresho byifashishwa mu gukora intebe zizwi nka amuceyazi sofa, ndetse n'ibindi bintu bishobora gukenera ibisigazwa bya matela, bavuga bakunda kwita ibifufuma. Ibi bikoreshwa mu bubaji cyane cyane.

Hoteli Muhabura ni imwe muri hoteli zabayeho kera mu Karere ka Musanze , ikaba inyuma hari inyubako yayo nshyashya ariko imbere hakaba hari inyubako ya kera imaze igihe, ni hotel izwi cyane cyane muri aka karere ka Musanze imbere neza neza y'inyubako y'Akarere ka Musanze.

Butike ahantu hacururizwa ibintu bitandukanye, ariko harabura icyapa kiranga ibicuruzwa bibarizwamo hano ngo ni ibiki. Hari n'umutaka w'aba ajenti ba MTN, umuyejenti wa MTN, ugira mobayilo mani agacuruza n'amayinite.

Ubucuruzi bw'imigati bukorerwaga aha ngaha hari amarindazi imigati isanzwe, hakaba haparitse n'ikigage. Inzoga y'ikigage umucuruzi wayo ashobora kuba yaparitse aha ngaha, kugira ngo yigurire n'umugati mbere y'uko aja gucuruza iki kigage.

Aha bacuruza imigati ndetse n'uduconco, icyayi n'ibindi, hakaba hafite dizayine idasanzwe ubona ko ishobora gukurura abakiriya bataraza no kugura bakaza kureba uko hateye, ndetse bacuruza n'udutambaro tw'udu....

Ubucuruzi butandukanye, hari amazu y'ubucuruzi ndetse hakaba hacururizwa imyenda, imyambaro yo kwambara cyane cyane y'abagore, amasafuriya yo gutekamo, amabase yo gufuriramo, indobo n'ibindi bikoresho bya parasitiki, harimo twa be tw'abana bita po, utwo bashobora gukoreraho isuku.

Santere y'ubucuruzi, hari umumotari ndetse n'ucuruza ubucuruzi bwa mobayiro mani emutiyeni, ndetse n'inzu zikorwamo igikorwa cy'ubucuruzi.

Aho abatekinisiye bakorera amatelefone, amaradiyo, ibikoresho by'ikoranabuhanga, bakabi amaketo, ibikoresho biri elegitoroniki byose barabisana nkuko bigaragara ku birango byabo.

Ubucuruzi bw'agaconco, ubucuruzi bw'agaconco hari keke, amandazi n'ibindi bitandukanye, hari na purezili cyangwa se kapote bita kondomu. Uyu mucuruzi acuruza ibintu bitandukanye harimo ibinyobwa nk' uko bigaragara muri iyi butike.

Aho bacururiza imigati bakeri, imigati, amandazi ndetse n'ibindi umuntu ashobora gufata akaramira umutima mu gihe yari afite inzara. Ashobora kubifata nk'ifunguro cyangwa se agahaha akabisangira n'ab'ibimuhira, mu gihe yarageze aha ngaha ashobora gufata kimwe mu bicuruzwa akakijyana.

Butike cyangwa se inzu ikorerwamo ubucuruzi, ibyokurya bitandukanye, amasafuriya atekerwamo ibyo kurya, hari amavuta yo kwiyisiga ndetse n'amaji y'uburyo butandukanye, udutambaro, za miruwari, n'ibindi n'ibindi bitandukanye bigaragara muri iyi butiki.

Ibikoresho bya purasitike harimo amabase, indobo ndetse n'ibikozwe mu biti. Utumeza twakwifashishwa mu buryo butandukanye, imikoropesho, udutabureti ndetse n'utuyetageri twabikwamo nk' inkweto, cangwa se imbuto bitewe n'ico umuntu yifuza.

Moteli Pari ni inyubako abantu bashobora kuza bakaboneramo ibyo kurya, bakaboneramo imyidagaduro bakidagadura, bakaba banaharuhukira bakabonera amafunguro n'icyo kunywa aha hantu bakica inyota, kandi bakidagadura. Pari moteli.

Aha hakorerwa igikorwa c'ubucuruzi hari hacururizwaga ibinyobwa ndetse hagomba kuba hari n'izindi nzu zitandukanye zikorwamo zikorwagamo ibintu bitandukanye. Ni hafi ni mu isoko ahacururizwa ibintu.

Aha ni iduka ricuruza, ibi bicuruza imiti cyangwa se n'amafumbire byifashishwa n'ibiribwa byifasshishwa mu bworozi bw'amatungo maremare.

Iduka rya dogita Nsabi "Amacho Penti". Aha hacurizwa ibikoresho by'ubwubatsi birimwo amarangi n'ibindi bitandukanye, rikaba iri duka ari ryo umuntu bita witwa Nsabi. Nsabi ni umuyarwenya umenyerewe uzwi cyane muri iki gihugu c'u Rwanda ko aturuka mu majaruguru.

Ahacururizwa ibyokurya n'ibyo kunywa byoroheje; hari icyayi, capati, boyiro, ibishyimbo, igitoki, imvange. Murakaza neza. Aho mubona ibyo kurya, amafunguro ashobora kubasamira.

Muri iri duka hacururizwa ibikoresho bya reshanje bimwe bashira mu modoka bisimbura ibindi, ku magare ibisimburana ibindi harimo ibyashaje ,ndetse n'ubundi bukorikori bukorerwa aha ngaha muri iri duka.

Haracururizwa udukapu dutandukanye abantu bifashisha batwara ibintu bahashye. Hari ubucuruzi bw'amagi. Ni butiki isanzwe harimwo imigati, harimo amabasi n'ibikoresho byo mu rugo, ndetse n'ibindi bitandukanye ushobora kubigurira aha ngaha.

Amacumbi remazingi mode besite hawuze acumbikira abashyitsi ,abantu baturutse kure bashaka kurara muri uyu mudugudu, baruhukira ahangaha, kugira ngo mu minsi ikurikira baze gukomeza imirimo yabo.

Jeyibuti hawuze bacuruza ibintu by'ubwiza birimo amataratara, ibintu bisiga ku minwa, ibyo bisiga ku ngohe ku bitsike, bakaba ndetse bafasha nabantu kubambika ndetse no kubogosha, haba no kubasiga kubakoresha isuko mu buryo muri rusange.

Ubucuruzi bw'ibyo kurya amafu, kawunga ,umuceri n'ibindi bitandukanye. Ubucuruzi bukaba bubasha guteza imbere ubukora ndetse n'umusaruro ukaba wongererwa agaciro bitewe n'uko ufashwe neza.

Iteraniro ry'abantu baje gushengerera Imana. Rishobora kuba ari abarokore mu itorero rya Adeperi bateraniye ahantu. Biteguye kuramya Imana mu buryo bwateguwe.

Iterambere rishoboka cane iyo abantu bakoranye n'ibigo bibika amafaranga, ndetse aho umuntu ashobora kuja akasaba inguzanyo ndetse akazihabwa, kugira ngo yiteze imbere. Ikigaragara Banki zitandukanye harimo na Ekwiti, abantu baraziganaga canecane abagabo.

Banki ya kigali ishami rya Musanze. Abakozi b'iyi banki ndetse n' abakiriya bayo, cyangwa abafatanyabikorwa b'uruhu rwera.

Hoteri Laparume n iaho abashyitsi bashobora guhabwa amacumbi ndetse byaba ngombwa hakaba n'amafunguro, bigaragara ko ari ahantu hatuje kandi hashimishije.

Ahantu heza ho gutemberera nko ku bari muri hoteri cyangwa muri hotel. Ahantu ugera ukabona ubwiza buragusanganiye, ukagira ubwuzu n'umwete wo kuba wakwicara ahantu cyangwa se ukahatinda, ukumva wahamara igihe kitari gito ukanezerwa.

Goyiko iri ni isoko rya kijambere hakaba hari ibicuruzwa bijañye n'amataki go go gufata amazi gaturutse ku mazu amazi g'imvura.

Barimo gutunganya ibitabo, cyane cyane bibiliya, izi bibiliya dukoresha, bibiliya yera. Ni abantu babyitoje, uburyo bwo gufata neza ibitabo, ibikoresho cyane cyane ibitabo.

Isoko ry'ibiribwa rya kinigi ririmo ibirayi ahanini hibanjemo ibirayi, abantu baje kugura baturutse imihanda yose kugira ngo baze kubona ibyo bagaburira abo mu ngo zabo, n'abandi baje kugurisha kugira ngo biteze imbere bagire ubuzima bwiza.

Abacuruzi bo ku muhanda. Ubucuruzi bw'imyumbati, igihingwa kivuye mu murima kikiri gitoto ,gitohagiye kikiva mu murima barimo baracuruza. Abantu babikunze bakabigura mu buryo bwihuse. Aba ni abacuruzi bo ku muhanda abo twakwita abazunguzayi.

Ubucuruzi bw'imboga n'imbuto harimwo sitoro cyangwa se indimu harimwo karoti harimwo amagi harimwo n'ibirungo bitandukanye uyu mucuruzi yazanye ku isoko kugira ngo bigurwe nka za pavuro n'ibindi.

Ubucuruzi bw'imyenda y'ibisekeni, aho iba yaravuye mu mahanga, wenda yarambawe n'abandi bantu ikaza igacuruzwa, niyo mpamvu Leta y'u rwanda ishishikariza abantu gukora ibikorerwa iwabo, akaba ari nabyo bifashisha nk'imyambaro, atari iyakuwe mu mahanga izwi nk'ibisekeni cyangwa sekendi handi korove.

Ubucuruzi bw'imbuto ,imbuto zibereye ijisho, imbuto ziryoheye amaso imbuto zitandukanye harimo : amaronji ,pome ,ibinyomoro ,imyembe imineke, inanasi n'izindi mbuto zitandukanye zirigucururizwa aha ngaha.

Ahacururizwa ibikoresho by'abatayeri. Amatisi yifashishwa mu kudoda imyenda yaba iy'abagabo ndetse n'iy'abagore. Hari imashini zagenewe gukora icyo gikorwa cyo kudoda izo myenda zitandukanye nk'uko bigaragara hano kuri,...

Caguwa cyangwa se imyenda itandukanye bita caguwa, ubucuruzi butemewe. Abanyarwanda bashishikarizwa gukora kwigira ndetse bagakoresha ibyakorewe iwabo, ni ubucuruzi imyenda ishobora kuba irimo imyanda kandi ikaba iri kugurishwa, ishobora kwangiza cyangwa se gutera umwanda ku bayikoresheje.

Mu iguriro aho bacuruza amaterefone, karikiratirise, amasaha n'ibindi bikoresho bitandukanye by'ubwiza, ndetse n'iby'ikoranabuhanga.

Ubucuruzi bw'isambaza， isambaza biragaragara ko aha ari hafi n'ahororerwa amafi mato，bakaba barimo bacuruza isambaza n'igikoresho cyifashishwa mu gupim ingano y'umusaruro uri butangwe ku muguzi.

Hakorerwa ubucuruzi bwa kijambere, harasobanutse, hari n'abantu batandukanye bahatembereye. Ni ahantu ubona hateye ubwuzu, uwo ari we wese yakwifuza kuhatemberera, ndetse no kuhahahira. Aya maguriro rero ari mu nyubako nziza ijanye n'igihe kandi iteye...

Ubucuruzi buciriritse harimo: ibinyobwa ,umutobe , mango n'ibindi bihingwa, za biswi zishobora gukoreshwa n'abana, umunyu ndetse n'ibindi bitandukanye by'ubucuruzi buciriritse.

Isoko rihuriwemo n'abaguzi ndetse n'abagurisha, aho baje guhaha ibiribwa ndetse n'ababicuruza, bahurira hamwe kugira ngo bamwe babahe amafaranga, abandi bajyane ibyo bakeneye bitewe n'icyifuzo cyabo.

Abanyamideli ni abantu batandukanye. Hari abakora imyambaro myiza, ibikoresho bashobora kwifashisha ni bimwe mu bigaragara aha ngaha kandi ubu ni ubucuruzi bumeze neza bwitaweho n'ubukora ikigaragara.

Imbizo, imyeyo cangwa imikubuzo bitewe n'uko umuntu yabivuga, ni ibikoresho byifashishwa mu gukora isuku ahantu abantu baba baba bari kugira ngo habe nta myanda iri aho ngaho iharangwa ,ahubwo ibintu byose biri ku murongo cyane cane ibitagifite agaciro.

Isoko ahantu hahuriwe n'abantu, abacuruza baje kugurisha ibintu byabo n'abaguzi, baje kugura ibintu bitandukanye harimo ibiribwa, ibyambarwa nka suwiveseri ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ingazi cyangwa se esikariye ahantu abantu banyura bazamuka , muri etage n'abandi bamanuka bava muri etage hejuru, ikigaragara n'ahantu hakorerwa ubucuruzi butandukanye, rikaba ari isoko rya kijyambere abakiriya, abacuruzi, abashinzwe umutekano baramanuka abandi bazamuka Kuri sikariye cyangwa se koko.

Ibicuruzwa bitandukanye byo mu gikoni ndetse no ku meza ibyo mu gikoni no kumeza hari ibikombe, amajage amasahane bya plastike ibyuma cyangwa se imbugita twita indiga, umushyo wo kudahisha, ipanu ndetse n'ibindi bitandukanye amaparato n'ibindi.

Ubucuruzi bw'amakarayi ibikoresho bya pulasitiki, ibikombe, amabasi n'idomoro n'ibindi bitandukanye byifashishwa mu buryo bwo gukora amasuku imuhira n'ahandi mu nyubako zitandukanye nini n'intoya.

Abantu bakoraniye hano mu isoko, bamwe bazanye ibicuruzwa abandi baje guhaha ibintu bitandukanye, n'ibikoresho byifashishwa mu rugo, abo gusarura imyaka no mu gutunganya umusaruro wo mu mirima y'iwabo bakaba bari buhahe bitandukanye bitewe n'icyo buri wese ashaka.

Ubucuruzi bw'ibitoki buteza imbere ababi ababihinga, ndetse bikaba ingandura igihingwa ngandurarugo, aho gishobora gufasha abagihinga ndetse kikagaburira abantu, mu buryo bwo kwihaza mu biribwa.

Mu isoko ry'ibiribwa abantu bahuye ari benshi bamwe bazanye umusaruro wabo ku isoko ndetse nabaje guhaha kugira ngo bigurire ku musaruro uba wazanywe hano ku isoko kandi ni ukuri birashimishije, ari umuguzi n'umugurisha bose bahuye bakeneranye.

Isoko ry'ibiribwa n'imbuto hagaragara amagi yaje ku isoko imboga, imbuto: Imyembe, imineke, watamelon, ipapayi ibinyomoro n'ibindi bitandukanye. Ndetse n'ibyo kurya ibyo ukoresha mu gikoni bitandukanye.

Ubucuruzi butandukanye bw'imbuto imboga n'ibiribwa, bikaba ari byo bitangirwa aha hantu ikigaragara harimo amaronji, imyembe, ibitoki, inyanya, dodo n'ibindi bitandukanye, ibiribwa by'uburyo butandukanye bimwe birimo ibirinda indwara.

Ubucuruzi bw'amabati akuze. Aha bigaragara ko hari gukorerwa ubucuruzi abantu bazanye amabati yakoreshejwe kugira ngo abayakeneye nabo bajye kuyifashisha mu nyubako zabo , babona ko bakeneye gukoresha aya mabati.

Iguriro, isoko rya Kinigi, aho abantu bazanye imyenda, abandi baje kugura imyenda itandukanye, biragaragara ko aha ari mu isoko, nyamara bakaba barimo gucururiza hanze, igishoboka ni uko nabo bahabwa isakaro nk'abandi, kuko biragaragara ko hari igice kimwe gisakaye, n'ikindi kidasakaye. Hibazwa imvura iguye byagenda bite?